Umubyeyi w'umwirabura afite umwana mu ntoki mu biganza bye, aho yambaye agapfukamunwa. Umubyeyi w'umugore azwiho kwita ku mwana we, akamugenera igikenewe cyose, akamwitaho mu buzima bwe, mu burezi bwe, ndetse no mu bindi byose. Ababyeyi b'abagore bagira impuhwe nyinshi ndetse bagira urukundo ruhambaye ku bana babo.

Imodoka y'ivuriro rigendanwa ryita ku buzima bwo mu mutwe ihagaze ahantu hitaruye, ahari abantu bicaye hanze ku ntebe z'amabara atandukanye, abantu barimo kuganira n'abaganga, bamwe bambaye udupfukamunwa, bikaba bigaragaza ko harimo gukurikizwa ingamba zo kwirinda indwara zitandukanye.

Umugore arishimye, aho ari kuborosa amenyo ye, afite umuti wabugenewe, ndetse n'igikoresho cyabugenewe uburoso, koza mu kanwa kwita ku menyo yawe ni ingirakamaro kugira ngo umuntu arwanye indwara zijyanye n'akanwa.

Umugore ahagaze mu itsinda ry'abantu aho bari kumureba, ari kwigisha yerekana uko umuntu yakwita mu kanwa ke ahaborosa akoresheje uburoso ndetse n'umuti wabugenewe. Izi ngamba ni ukugira ngo abantu bigishwe uko bagomba kwita mu kanwa kabo kugira ngo birinde indwara zitandukanye ndetse no kugira ngo batanuka.

Umusaza yicaye imbere y'inzu ari kumwe n'abana babiri, umusaza afite umutsima ndetse n'abana bari kurya amafunguro. Umusaza yicaye ku ntebe afite n'inkoni ye n'abana babiri baricaye baramwegereye. Iri ni isano hagati y'umubyeyi n'umwana. Aho umubyeyi yita ku bana be akabagenera ibibatunga uko bwije n'uko bukeye, ndetse akanabitaho kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Ingamba zafashwe na Minisiteri y'Ubuzima, kugira ngo irwanye Korona Virusi, harimo koga intoki, kwambara agapfukamunwa, kwitarura abantu ugashyiramo metero imwe hagati yanyu namwe. Korona Virusi ni virusi yateye u Rwanda ndetse n'isi muri rusange, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Minisiteri ishinzwe Ubuzima yerekanye kandi ishishikariza Abanyarwanda kugira ngo bajye kwivuza, kuko u Rwanda rushishikariza Abanyarwanda kugira ngo bajye kwipimisha, barebe niba nta burwayi butandukanye bafite, kugira ngo Abanyarwanda bagire ubuzima buzira umuze.

Abagabo babiri harimo Minisitiri w'Ubuzima bambaye amakoti barishimye, u Rwanda rwimakaje cyane mu kugira ngo abaturage babo bagire ubuzima buzira umuze, bitabwaho ndetse bagerwaho serivisi ku gihe kandi byihuse.

Umusore cyangwa umugabo, igitsina gabo ari gukora siporo aho yananiwe cyane ari kwimenaho amazi. Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwa buri muntu aho imufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti y'uruhu ishinzwe gufasha abantu kugira bagire vitamini uruhu rwabo rube rwiza ndetse batagira indwara. Imiti y'uruhu ifasha umuntu kugira ngo yirinde ndetse agire uruhu rwiza ruzira umuze.

Ishyamba cyangwa ubusitani harimo ibiti bitandukanye. Ibiti bifasha mu buryo butandukanye, aho biduhereza umwuka duhumeka ndetse bikaba bidufasha kugira ngo tubone imiti ya gakondo ya kinyarwanda idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose bo ku isi bita ku bidukikije cyane cyane ibiti.

Imiti itandukanye, ifasha abantu kugira ngo birinde indwara ndetse imibiri yabo ikomere, biyongeremo imbaraga kugira ngo barwane n'indwara zitandukanye, bagira ubuzima buzira umuze mu mibiri yabo, u Rwanda rufasha abanyarwanda bose kugira ngo bagire imiti yizewe kandi igerwaho ku gihe.